Agakinjiro, hano tugurisha ibikoresho bijyanye n'ibyo mu rugo nk'intebe, amameza, dekorasiyo zo mu nzu, byose.

Isoko rijyanye n'ibiribwa. Aho ababyeyi bari kugurisha ibitunguru, imineke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kugira ngo bageze ku baturage ibyo bakenewe. Iri rero ni isoko bagurishirizamo ibyo bintu.

Inzu ikodeshwa iherereye muri Kigali, ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi magana atanu, ikaba iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, ifite viyu nziza na naturere nziza.

Ibihembo bigenerwa umuntu wabashije gutsinda binyuze mu irushanwa ryagiye rigenerwa abaturage hano ni muri ejo heza, umuhungu witwa Mucyo william akaba yaratsindiye miliyoni n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Uburyo bwo kuzigamira umwana wawe ukiri muto, akaba yakura asanga hari icyo wamuzigamiye, bityo agakura afite ubuzima bwiza, atazabaho nabi, bitewe n'uko wamuzigamiye muri ejo heza.